Uburezi bwo mu mashuri abanza, ni uburezi bwiza ndabukunda cyane. Ni uburezi budufasha kandi butuma tugera kucyo tugomba kuba, cyokora ni fondasiyo y'ibindi byose, tugomba gukora kubera ko rero tuba twarahereye dutangira kwiga, kugira ngo tumenye kandi bidufasha, kandi no kuba abo tugomba kubaho mu gihe kiza.

Amashuri abanza nimeza ndayakunda cyane kuko niyo fondasiyo y'abana duheraho kugira ngo tugere aho tugomba kuba twageze. Byaradufashije cyane kuko aho tugeze ubu tubikeshaje kuba twariza muri purimeri kandi ni byiza cyane, abandi bana bakiri hasi mwabashishikariza gutangira, n'abarivuyemo batangira kuko birafasha cyane.

Amashuri ni meza ndayakunda cyane, kuko adufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, atuma tugera ku bintu byinshi bitandukanye twifuza kuzaba byo, kandi atuma n'inzozi zacu ziba impamo, ari mpamvu tugomba kujya tuyubaha, kandi tugakangurira abantu bose kujya bajya mu mashuri, kuko amashuri arafasha cyane.

Amashuri y'imyuga na tekinike ni amashuri meza cyane muri iki gihe afasha abantu benshi, kubera ko urangiza kwiga, umwana afite ubushobozi bwo gukora bitamusabye kujya kwiga kaminuza, kandi bidufasha kubona ibikoresho byinshi bitandukanye nk'intebe, ameza n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga ndabikunda cyane. Byateje imbere uburezi bw'amashuri, kubera ko abanyeshuri benshi batuma bamenya gukoresha ibikoresho bya kijyambere, bigatuma ubona akazi mu makampani akomeye.

Kwiga ni ibintu byiza ndabikunda cyane. Iyo ndi kubona abanyeshuri bambaye imyenda myiza, ifite amabara meza atandukanye nku'mweru, n'umutuku, na'amasogisi yumweru, n'inkweto z'umukara, ni byiza ndabikunda cyane. Ubona basa neza iyo bambaye imyenda isa bose.

Amashuri y'imyuga ndayakunda cyane, kubera ko ari meza cyane, adufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi afasha umunyeshuri kurangiza yigirira akamaro, kandi agasohoka mu kigo afite ibintu byinshi yakwigezaho. Bitandukanye n'amashuri yigisha ibintu by'amasiyanse, aho umunyeshuri akenera kaminuza, kugira ngo agombe kuba icyo yashakaga kuba cyo.

Amashuri y'imyuga ni meza ndayakunda cyane kuko atwigisha ibintu byiza cyane bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni ahantu ukura ubumenyi bugufasha guhita ukona bitagusabye kujya kwiga kaminuza. Ni ahantu uva ku ishuri ugahita utangira gukorera amafaranga kuko ibyo muba mwarize uba warabikoreye puratike nyinshi cyane ariyo mpamvu idufasha cyane.

Kuva na kera, twigaga dukoresheje mudasobwa, ariko ubu ngubu bwo byariyongeye cyane, aho kuzajya ku ishuri, usanga aha ahantu hose mudasobwa ziri ahantu hose, bigatuma byongera ubumenyi ku iterambere ry'umwana, bikamufasha no gutsinda amasomo neza mu gihe cyose.

Amashuri y'imyuga na tekinke ni meza ndakunda cyane kuko arafasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko ni ahantu ujya kwigira ukazavayo uzi icyo gukora bitagusabye kujya kwiga muri kaminuza. Ari yo mpamvu nkangurira abantu bajye kwiga amashuri y'imyuga na tekiniki kuko kuko ni yo meza afasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Amashuri yigisha iby'ubuvuzi, nimeza cyane ndayakunda, kubera ko bifasha abantu benshi, kugira ngo bongere ubuvuzi, ku matungo cyane cyane, nkabantu biga ibintu byo kuvura inka, ndabashimira cyane kuko batuma inka zigira ubuzima bwiza, zidakeneye kwirwa zirarwaragurika, wazashakire ibishaka.